Rubyiruko menya amateka yawe, ibi byagarutsweho mu nama yabereye mu Karere ka Nyagatare aho umuyobozi yahagurutse akabwira urubyiruko ko rugomba kumenya aho u Rwanda rwavuye ndetse rukamenya naho rugomba kujya.

Ni byiza yuko abakora inama bifashisha amazi ndetse n'ibindi by'ibanze kugira ngo bajye babibona hafi bitabasabye guhagarika inama ngo bajye kubireba.

Umugore wahize abandi mu kwita ku bana b'imfubyi, yahawe ijambo, asobanura uburyo ki yagize impuhwe ubwo yari abonye umwana wari watawe ku muhanda, ubundi akamutwara, akamugirira neza.

Mu nama zigenda zikorwa cyanecyane mu karere ka Nagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, biravugwa yuko ko zikomeje gutanga umusaruro w'abaturage bari kuzitabira ku bwinshi.

Mu gukora inama mu bayitabiriye bize ku kibazo kigendanye n'imikoreshereze idahwitse y'umutungo wa leta, bitewe n'uko hari abawunyereza bawukoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko.

Mu nama yahuje urubyiruko ndetse n'abandi bakuze, yateraniye mu karere ka Nyagatare, yize ku bigendanye no guhagarika burundu ihohoterwa risigaye rikorerwa abagore, cyane cyane mu bice by'uburasirazuba bw'u Rwanda.

Mu nama yahuje abo mu nzego z'umutekano, abapolisi ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu nzego z'umutekano, hanzuwe y'uko bagiye kwitanga ndetse bagakorera igihugu birinda ruswa, cyangwa se ikindi cyose cyamunga ubukungu bw'igihugu.

"Ati gutanga ruswa ni ikizira kuko bimunga ubukungu bw'igihugu". Umuyobozi niyonsaba uhagarariye ishami rya polisi ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Karere ka Nyagatare yasobanuye ko gutanga ruswa bidakwiye cyangwa se kuyakira.

Nyuma yama abaturage batuye mu Karere ka Nyagatare bashyiriweho uburyo bwo kwidagadura ndetse bishimira imyanzuro yari imaze kuhafatirwa.

Rumwe mu rubyiruko rwahawe ijambo mu nama yari yateranye uyu munsi, rwagiriye inama ko abandi bagenzi barwo, bagomba kwitabira ibikorwa nk'ibi byo gusobanukirwa neza ibigendanye n'imyororokere kugira ngo hirindwe ingaruka zituruka ku bishuko.

Umuyobozi w'Inama y'Amashyirahamwe y'Umupira w'amaguru mu Rwanda yabwiye amakipe yose ko agomba kwitegura bihagije mbere y'uko shampiyona y'imikino itangira mu Rwanda.

Mu bikoresho birimo iby'ikoranabuhanga nka za mudasobwa, byifashishwa mu gihe hari gukorwa ikusanyamakuru, yaba imyanzuro yavugiwe mu nama, amashusho ndetse n'ibindi.

urubyiruko rwashyiriweho gahunda yitwa ngo rubyibukoen amateka yayo mu rwego rwo kugira ngo rusobanukirwe icuraburindi u Rwanda rwanyuzemo, ndetse rubashe gutegura ejo heza harwo.

Inka z'inyambo uretse no gutanga umukamo cyangwa se kuba zikobwa abakobwa, izi nka nazo zifashishwa mu birori bigiye bitandukanye mu rwego rwo kwimakaza umuco Nyarwanda.

Kera mu myaka yagiye itambuka, igikoresho kitwa umuduri cyagiye kigira uruhare rukomeye cyane mu gususurutsa abantu babaga bataramye, kubera ko cyabamaraga irungu.

Abantu bakomeje gutaka igihombo, baterwa no kuba umuco w'u Rwanda uri gucika, ibi bikaba bigarukwaho n'abakuru, bavuga yuko bitagakwiye kuko ngo agahugu katagira umuco gacika.

Mu gihe hakomeje gushishikarizwa abantu kuboha ndetse no kwihangira imirimo, usanga inkangara arizo zizaimbere bitewe n'uko zikenerwa cyane mu birori bijyanye n'ubukwe ndetse no gushyingira.

Mu gihe cyo gusaba no gukwa hari igihe cyagenwe umutahira aza akavuga amazina y'inka bazanye, ibyo bikaba binogera buri muntu wese uba uhari kuko aba akoresha imvugo zijimije kandi ziryoheye amatwi.

Abakora ibikorwa byo guhiga inyamaswa bakoresheje imyambi, amacumu n'ibindi bakomeje kuburirwa na Leta y'u Rwanda by'uko ibyo bintu bitemewe.

Mu gihe k'imihango cyane cyane mu gusaba no gukwa, abari ndetse bakiri batoya, bifashishwa kugira ngo basusururutse ababa bitabiriye ibitaramo mu mbyino gakondo, ndetse n'imishanana ijyanye n'imikenyero.

Mu muco nyarwanda hari ibirori byateganyijwe aho ababyeyi ndetse n'abakobwa bitegura gushyingirwa batumira inshuti zabo mu birori byo gusezera ku bukumi bityo bikitabirwa n'igitsina gore gusa.

Amata burya baravuga ngo agira gitereka ni na yo mpamvu abari bicara hamwe bakayacunda mu gisabo kugira ngo abashe kuba yanyobwa n'abandi bantu batandukanye.

Umwami Mutara wa lll Rudahigwa yasize araze umurage u Rwanda w'uko abantu bakwiye kutemera akarengane aka ari ko kose bakorerwa, ubundi bakihagararaho, bagakora byinshi bibahesha ishema.

Mu muco nyarwanda cyane cyane mu gihe cyo gushyingira abari ndetse n'abategarugori baba babukereye mu myenda y'imishanana ndetse n'imikenyero ubundi bagahamiriza indirimbo za gakondo.

Mu gusana imiyoboro y'amashanyarazi, birakwiye ko habaho ubwitonzi buhagije kuko iyo bitagenze bityo, ubikora ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane.

Abakora ibikorwa by'amashanyarazi, bavuga y'uko igihe babikoze neza babona inyungu bitewe n'uko abaturage baba bishimiye serivisi bahawe.

Mu bikorwa byo gusana ndetse no kuvugurura imiyoboro y'amashanyarazi hibandwa cyane cyane ku mapoto karundura ajyana umuriro ayavana mu turere tumwe ayajyana mu tundi kuko ari ho ibibazo cyane cyane bituruka.

Bimenyerewe cyane ko igitsina gabo ari cyo kifashishwa mu mirimo igiye itandukanye ya tekinike, harimo nko kumanika imirasire y'izuba, ariko ubu siko bimeze kuko n'igitsina gore cyabyinjiyemo kandi kirabishoboye.

Urugomero rushyashya ruri kubakwa mu karere ka Nyagatare, biravugwa yuko ruzagira uruhare rukomeye, mu kurwanya ibura ry'umuriro, ryakundaga kugaragara cyane cyane mu bice bitandukanye by'aka karere.

Muri gahunda y'uko urubyiruko rukwiye gukura amaboko mu mifuka rukihangira imirimo abantu benshi bakomeje kujya mu bikorwa byo gukora salo aho basuka abantu ndetse bakanabaca inzara neza.

Mu gutunganya insinga z'amashanyarazi, hifashishwa akamashini gapima niba umuriro uri kugenda cyangwa se utari kugenda, ibi bigatuma bamenya aho ikibazo kiri.

Ibikorwa byo kuvugurura urugomero rw'amashanyarazi, rwa Ntaruka birarimbanyije, bitewe n'uko abaturage bakomeje kwinubira, ibura rya hato na hato ry'umuriro ryakundaga kubaho.

Urugomero rw' amashanyarazi, rumaze kuzura mu karere ka Nyagatare, byitezwe yuko ruzatanga ingufu z'amashanyarazi, zizacanira ingo zisaga ibihumbi bitanu muri aka karere.

Kubaka inzu karundura bijyanirana no kubaka ubwogero bizwi mu ndimi z'amahanga nka pisine kuko igihe abantu bahageze baba bakeneye kugira ngo baruhure mu mutwe kandi bari mu mazi.

Muri gahunda zo kwagura ibikorwa by'ubucuruzi mu Rwanda, Leta y'u Rwanda ikomeje kubaka amasoko atandukanye, cyane cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda kugira ngo abaturage bajye bajyayo, bagurishe imyaka yabo.

Amashuri cyane cyane ay'ibigo bya leta, ni ngombwa ko yubakwa ageretse bitewe n'uburyo ubutaka mu Rwanda busigaye ari ikibazo, aho kuyazamurira ubutumburuke aribyo bituma ubutaka butubuka.

Abaturage barishimira cyane ikiraro cyubatswe mu kirere kiri mu ishyamba rya Nyungwe, kuko bibafasha kumva baguwe neza ndetse bakanambukiranya icyo gice bajya ahandi.

Mu bikorwa byo guteza imbere imyidagaduro harimo no kubaka amasitade agezweho, harimo gushyirwamo imbaraga mu kongera ingufu ndetse n'umubare w'amasitade, cyane cyane mu bice by'u Rwanda.

Mu karere ka Nyagatare hari inzu ziri kubakwa cyane cyane iz'umudugudu, bitewe n uko igihe abaturage baje bakeneye zimwe muri serivisi zihatangirwa, baba bagomba kwicara kandi neza batuje.

Mu ndangagaciro zo mu midugudu itandukanye y'Akarere ka Nyagatare, harimo kuba buri muntu wese agomba guharanira kugira umutekano usesuye, ndetse akarangwa n'ubutwari.

Zimwe mu ndangagaciro zikomeye ziranga Akarere Ka Nyagatare, harimo gukunda igihugu ndetse no gukunda umurimo, aho abantu bakangurirwa gukura amaboko mu mufuka ahubwo bagakora.

Muri gahunda leta yihaye ni uko buri muturarwanda wese, agomba gutunga umuriro ibyo bikamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Akaba ari nayo mpamvu ingomero z'amashanyarazi zikomeje kwiyongera mu gihugu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB, ku bufatanye n'izindi nzego, birimo gushyiraho gahunda y'uko ibigo birimo n'amarerero, byazajya bitanga igaburo rya saa sita ku banyeshuri bahigira.

Kubaka ibikorwaremezo birimo iby'imyidagaduro nka sitade z'ikitegererezo ni byo biraje ishinga Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo abantu bakomeze kuza basura u Rwanda bahasange byinshi batari biteze kuhabonera.

Mu karere ka nyagatare hashyizwe ikiraro kizafasha abantu bakora ubucuruzi bwambukiranya uturere, gukora ibikorwa byabo neza kandi bizeye umutekano wabo.

Abahize abandi mu gukoresha neza amafaranga y'inkunga bahawe, bahawe igihembo cy'uko babaye indashyikirwa, mu gukora ibyo bari bategetswe gukora.

Mu Karere ka Nyagatare habaye umunsi mpuzamahanga w'umwana w'Umunyafurika aho abantu basobanurirwa neza ko bakwiye kurera abana babo neza ndetse bakanabagezaho uburezi bwiza babishyurira amashuri ndetse bakabarinda kwishora mu rugomo.

Mu nama yitabiriwe n'abo mu nzego nkuru z'umutekano bazwi nk'abasirikare ni zo zafashije urubyiruko rutuye mu Burengerazuba bw'u Rwanda kwirinda kujya kurwana mu Bihugu by'abaturanyi kuko kugambanira Igihugu atari byiza.

Abakora ibikorwa by'ubucuruzi, bavuga yuko bahombejwe n'umugabo bari babikije amafaranga, bityo bigatuma bamushyira imbere y'imbaga nyamwinshi kugira ngo asobanure aho amafaranga yabo yagiye.

Mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu Jenoside yakorewe Abatutsi abayobozi batandukanye bunamiye imibiri y'abazize Jenoside mu Karere ka Nyagatare.

Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hashyizweho uburyo bwiza bwo guca imanza ibi bizwi nk'Inkiko Gacaca aho hashyirwagaho urubuga abantu bicaraho bakaganira ndetse bagakemurana ibibazo byabaga bibugarije.

Mu rwego rwo kwirinda ibyaha bituruka ku rugomo, Repubulika y'u Rwanda ku bufatanye n'akarere ka Nyagatare, yashyizeho uburyo urubyiruko ruzajya ruganirizwa, cyane cyane mu kwirinda ibiyobyabwenge.

Urubyiruko rutandukanye ruturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, rwitabiriye umuhango wo gucana urumuri rw'i ikizere, ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruherereye ku Gisozi.

Abanyonzi ndetse n'abamotari bavuga yuko igihe bari mu muhanda na bo bagomba guhabwa uburenganzira ndetse bakaba basaba Leta ko bakongererwa amasaha yo gukora.

Gutwara abantu ku mapikipiki usanga bimaze gufata indi ntera mu karere ka Nyagatare kuko buri wese yasobanukiwe akamaro ko kwihangira umurimo, ahubwo akirinda guhora ateze amaboko ngo bamuhe amafaranga.

Bimwe mu birango karundura biburira abantu batwara ibinyabiziga mu muhanda harimo ikitwa Stop kivuze guhagarara, ni bimwe byitonderwa kugira ngo bagabanye umuvuduko ubundi bagende neza.

Kamera zishyirwa ku mihanda, zishobora kwifashishwa mu gupima umuvuduko ikinyabiziga gifite ndetse no kumenya niba ugitwaye atanyoye ibisindisha kuko aba adatwara neza nk'abandi.

Inzego zitandukanye zirimo iz'umutekano ndetse harimo n'abasirikare, baravuga y'uko zikomeje gukorera hamwe, mu rwego rwo gukaza ba rushimusi ndetse n'abacengezi bashaka kwinjirira igihugu.

Kuvugurura ibikorwa remezo birimo n'iby'imyidagaduro ni ngombwa ko bita ku nyubako zirimo na sitade kugira ngo abaje bahagana babashe kugubwa neza.

Mu gikorwa cy'umuganda rusange cyabaye kuri uyu wa gatandatu, Meya w'Akarere ndetse n'abo mu nzego zitandukanye bakitabiriye mu rwego rwo kuba intangarugero ku baturage bose.

Abakora ibikorwa by'amasuku cyane cyane mu mihanda yo mu karere ka Nyagatare baravuga yuko bakwiye gushyirirwaho uburyo bazajya babona inguzanyo kujyana nabo biteza imbere.

Polisi y'Igihugu y'u Rwanda irashishikariza buri Muturarwanda wese kuba ijisho rya mugenzi we kuko igihe yumvise ihohoterwa iryo ari ryo ryose ahantu mu ngo hatandukanye aba agomba kubibwira ubuyobozi.

Abapolisi bakorera igihugu cy'u Rwanda bavuga yuko kwakira cyangwa gutanga ruswa ari ikizira, bityo ntawukwiye kujya ashukwa no kubona indonke, cyangwa se ibyo atari agenewe akoresheje bitugukwaha.

Abaturage barashimira uburyo umuyobozi wa repubulika y'u Rwanda Paul kagame yabagejejeho gahunda zo kwiteza imbere, ubundi akanabatera inkunga binyuze muri Girinka Munyarwanda.

Mu mikino ya siporo harimo imvune zikomeye cyane, bitewe n'uko hari igihe umukinnyi ashobora kumara amezi atari munsi y'atandatu arwaye imvune.

Bamwe mu bitabiriye umukino wa gicuti wahuje abakinnyi b'abakozi b'akarere ka Nyagatare bavuga yuko iyi sitade bakiniweho ari nziza kandi ko bashimira ubuyobozi bwayobatekerejeho bukayibubakira.

Mu mupira wabaye kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Mukura yanyagiyemo ibitego bitanu ikipe ya AS Kigali, abakinnyi ndetse n'abatoza barishimira uyu musaruro kuko ari intsinzi y'aho ya mbere.

Umuyobozi uhagarariye akademi y'abakobwa ndetse n'abandi bakiri bato, yavuze yuko bakwiye gukuza impano zabo ndetse bakirinda icyatuma zizima.

Mu bikorwa byo kubungabunga sitade Amahoro, bivugwa yuko byagize uruhare rukomeye, mu gutuma igihugu cyacu gihabwa ishema nk'igihugu gifite umujyi mwiza kandi utuje, wuzuye ibikorwa remezo bigezweho.

Amasitade akomeye cyane cyane iya Bugesera, bivugwa yuko abantu bahaza bishimira ibikorwa by'imyidagaduro bihabera, bitewe n'uko baba bashaka no kuruhura mu mutwe.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, baravuga yuko igihe na bo bitaweho, bagahabwa buri kimwe bakeneye, bashobora kugira uruhare bashyira ku iterambere ry'igihugu kuko ariho havamo n'abajya gukinira amakipe yo hanze.

Abantu bitabira umupira w'amaguru bigaragara ko aba ari benshi cyane bigereranyijwe n'indi mikino itandukanye yaba iy'amaboko ndetse n'iyindi kuko umupira w'amaguru utanga ngo ibyishimo bihambaye kuri bo.

Abakinnyi b'imipira y'amaguru bavuga yuko bakomeje kudahemberwa igihe n'amakipe yabo bitewe n'uko ibyo babona bamaze kugeramo biba bitandukanye n'ibyo babwirwa mbere yo kugira ngo bayajyemo.

Siporo rusange ikunda gukorwa ku mugoroba mu mujyi wa Kigali, abantu bakomeje kuyitabira cyane bitewe n'uko basobanukiwe ibyiza byayo igihe ikozwe kenshi.

Siporo nubwo bamwe bumva ko kuyikora ari ukuba babuze icyo ukora ariko ntabwo ari ko biri kuko siporo ifasha buri muntu wese kugira ubuzima bwiza kandi n'amagufa ye agakomera.

Umutoza w'ikipe y'abari munsi y'imyaka cumi n'irindwi, avuga yuko igihe bamaze bitoza, ubu yiteguye kuba yaserukira u Rwanda mu mikino mpuzamahanga, akaba yatsinda.

Abakinnyi b'umupira igihe bari gukina hariho ubukonje bwinshi, bituma badacika intege kuko birukanka ikibuga babonye ubushyuhe maze ubundi bagatsindana neza.

Abakina umupira w'amaguru baturuka mu bice bitandukanye by'Igihugu cy'u Rwanda bavuga yuko ibi ngibi uretse no kwishimisha ahubwo bishobora kuvamo isoko y'umugati ndetse n'ibirayi by'abana kuko uwabikoze neza bimubyarira inyungu.

Umukino wahuje abatarengeje imyaka makumyabiri n'umwe bivugwa yuko habonetse ikarita ebyiri zitukura ndetse ko abaturage bo mu Karere ka Nyagatare bitabiriye uyu mukino ku rwego rwo hejuru.

Abakinnyi bakiri bato burya bava mu myitozo baba barakoze mbere yuko bajyanwa mu makipe akomeye, ibi bikaba ari byo bituma urubyiruko rukangurirwa kwitabira imikino igiye itandukanye kuko ari na ho hashobora kuba amaronko yabo y'ejo hazaza.

Mu bikorwa by'imyidagaduro hashyizweho gahunda y'uko ku mugoroba mu mujyi wa Kigali Abaturarwanda bose bahatuye bazajya bakora siporo rusange mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imyitozo ikorwa n'abakinnyi mbere y'uko batoranywamo abajyanwa mu makipe makuru ni yo ituma babona amafaranga ndetse bakamenyekanisha amazina yabo bitewe n'uko baba bitoje neza.

Mu mihanda yagiye yubakwa mu byaro hakwiye ko hagomba no gushyirwa indabyo zituma hagaragara neza kubera ko iyo bigenze bityo abahagenda ntabwo binubira ivumbi ryabajya ku myenda yabo mu gihe bamaze gukaraba.

Imodoka zitwara imizigo, biravugwa yuko igihe zidatwawe neza, ari zo ziza ku mwanya wa mbere mu guteza impanuka zo mu muhanda, bikaba bivugwa yuko zikwiye kujya zitwararika mu gihe zipakiye.

Abatwara amapikipiki bavuga yuko igihe batambaye ingofero zabugenewe bishobora kubaviramo ibyago bikomeye, aho bashobora gukora impanuka mu mutwe wabo ukaba wasandara.

Abakora ingendo zitandukanye, bavuga yuko igihe bari kugenda mu mihanda idakoze neza, bibatera ivumbi, bakaba basaba leta kubagirira ibambe, ikabasanira imihanda ndetse ntibakajye bicwa n'ivumbi.

Mu gusana imihanda ndetse hegerezwa abaturage ibikorwa remezo, biri guteza imbere cyane cyane urubyiruko rudafite icyo rukora kuko ari rwo rwifashishwa mu kuvugurura no gusana iyo mihanda.

Mu bikorwa byo gusana ndetse no kubungabunga imihanda igiye itandukanye mu bice by'u Rwanda birimbanyije, abaturage barakangurirwa gukubura ku marembo y'inzu zabo kugira ngo imihanda ihegereye igire isuku.